Umusaza wicaye ku ntebe ufite uruhara n'imvi wambaye, ishati y’umweru afite inkoni mu ntoki, iruhande rwe handitse amagambo avuga ngo no mu gihe cy'izabukuru turahagoboka.

Amapantaro abitse amanitse ahantu, harimo ay'ubururu bwijimye, ubururu bukeye, ay'ikigina, aya karokaro n'aya kaki.

Intoki z'umuntu ufite inoti nyinshi mu ntoki z'igihumbi cy'amashiringi yo muri Kenya, ziriho ifoto y'umugabo wa mbere wayoboye Kenya Perezida witwaga Komo Kenyatta.

Isoko rinini ririmo ibyo kunywa bitandukanye nk'inzoga n'imitobe itandukanye, hasi hariho amakaro y'ibara ry'umuhondo hejuru hariho amatara menshi.